Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga kirimo indembe nyinshi, ubona ko zirwaye icyorezo kidasanzwe kuko n'abaganga barimo bambaye imyenda ishoboka yose y'ubwirinzi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho ahagana ku ruhande, hari igikamyo kinini cya rukururane ubona ko cyahahagaze. Akaba ari igikamyo kifashishwa mu gutwara imizigo myinshi itandukanye.

Umwana w'umunyeshuri uri gukaraba ku mugezi, akaba ari uburyo bigishwa ko umaze gukura imyanda wese, agomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, akaba kandi ari mu kigo cy'amashuri.

Ni umukobwa uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, akaba ari uburyo bwa leta yashishikarije abaturage bakubaka buri wese akaba agafite mu rugo iwe, mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa no kugira umwanda mu ntoki.

Ni ivomero ryubatse ahantu mu rutoki, rigomba kuba rifite n'umuntu wishyuza amazi arivomwaho. Hakaba hari abagore babiri ubona ko baje kuvoma ndetse bitwaje n'ibyagenewe gutwaramo amazi.

Umugore uri kugenda ava kuvoma ufite indobo imwe mu kuboko n’indi yikoreye, akaba ari kugenda ahantu ubona ko nta muhanda uhari mbese ari mu byatsi n'ibiti.

Ababyeyi benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse bazanye abana bakiri bato, akaba ari uburyo leta ishyiraho bw'uko umuganga asanga abaturage mu gace batuyemo, agaha abana urukingo bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga.

Abana babiri b'abahungu bari ku mugezi w'amazi yimena, bakaba bahateze ibiganza ndetse ubona ko binabashimishije, hirya yabo hakaba hari umuhanda utagize ikintu kirimo, mbese umeze nk'ubutayu.

Abagabo bambaye neza ubona ko ari abakozi biyubashye, abenshi bambaye amakote ndetse bari kumwe na none n'abagore na bo ubona ko bambaye neza, bamwe muri bo bakaba bambaye amakarita ubona ko ari ay'akazi, bakaba bari kwifotoza.

Ni ahantu mu manga hari wa mugezi utishyurwa, uvomwaho hifashishijwe imbaraga mu gihe hagiye umuntu inyuma akajya azamura anamanura kugira ngo amazi abashe kuza, hakaba hari utwana ubona ko dutegereje amazi ndetse hirya haparitse n'imodoka y'umweru.

Umugore ukikiye umwana yajyanye kwa muganga, bakaba bari kumuvura ahagana ku gice cy'umutwe, akaba ari kwitabwaho n'umuganga umwe ndetse wambaye n'imyambaro yabugenewe.

Abanyabuzima bari kwigishwa uburyo bwo gukoresha imiti ndetse bakaba bari guhabwa n'andi mahugurwa arenze ku yo bari bafite, hakaba harimo umunyamahanga uri kubibafashamo.

Abari n'abategarugori ndetse n'abagabo bambaye imipira migufi y'ibara ry'umweru n'ubururu n'ingofero z'umweru, hakaba harimo n'abanyamahanga bose bafashe icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri.

Ni mu ishuri hari abana benshi b'abakobwa, harimo umuganga uri gutera buri mwana urushinge, akaba ari urukingo ruhabwa buri mwana w'umukobwa ufite imyaka cumi n'ibiri, kugira ngo bamurinde indwara y'inkondo y'umura.

Umwana mutoya w'umukobwa, afite icupa yagiye kuvoma ahagana ku mugezi ngo arebe ko yabona amazi. Nk'uko tubizi, amazi nayo ni amwe mu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni imigezi ibiri iteganye, itiyo irimo hagati iyihuza yamenetse, hari abana benshi bari gukaraba intoki ndetse hakaba n'abandi bashungereye.

Ni nzu imbere yayo hari imbuga nini, hubatsemo amatente, hari abantu benshi ubona ko hari ibikorwa bajemo ndetse haparitse n'imodoka yagenewe gutwara abarwayi.

Uburyo bwo kwita ku bana bakiri bato bakabaha umuti ubongerera vitamine mu mubiri, akaba ari umubyeyi ukikiye umwana waje kumuhesha iyo vitamine, ndetse akaba ari kuyihabwa n'umuganga ubishinzwe.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbuga yayo yicayeho umunyabuzima wambaye inkweto ndende z'umweru, akaba yicaye ku ntebe y'urubaho afite n'izindi mpapuro ndetse imbere ye hari umugore ukikiye n'umwana, bigaragara ko hari inyigisho uwo munyabuzima ari kumuha.

Ni abana b'abanyeshuri ndetse bari ku ishuri, bakaba bari gukaraba kubera ko bavuye gukora imyanda itandukanye, akaba ari uburyo bigishijwe ko umuntu wese wakoze imyanda mbere y'uko agira ikindi kintu akora, agomba gukaraba amazi meza n'isabune.

Umugore uri kumwe n'umwana we mu murima uteyemo imboga nyinshi z'icyatsi kibisi, imboga kandi akaba ari ibiryo biribwa kugira ngo birinde abantu indwara nyinshi zitandukanye.

Abantu batari bake bambaye imipira yiganjemo ibara ry'umweru ndetse abandi bambaye utujiri, hakaba hari ubicaye hagati ari kubereka uko ibintu bikorwa kugira ngo babashe kubimenya neza.

Hari ameza yicayeho umunyabuzima, hakaba hariho n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu kwita ku bantu, imbere ye hari abagore benshi ubona ko bose hari igipapuro bari kugenda buzuza.

Ni abana bambaye imipira y'ubururu, yanditseho amagambo y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hariho ikigo gishinzwe guharanira ubuzima bwiza bwa buri muturage.

Ni ivomero rihoraho amazi y'imena, ni amazi avomwa atajya yishyurwa. Hari umwana ufite igikombe uri kuvoma amazi yo kunywa, nkuko tubizi kandi amazi ni ingirakamaro mu mubiri wacu.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bakaba bicaye, bose bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, ubona ko bose barangajwe n'ubari imbere, ari kubaha inyigisho ndetse n'ibiganiro bitandukanye.

Mu ivomero rizaho amazi bitabaye ngombwa ko hari umuntu wishyuza amafaranga. Rikaba risaba imbaraga aho umuntu ajya inyuma akajya azamura anamanura kugira ngo amazi abashe kuza, hakaba hari abana ubona ko bagiye kuvoma.

Ni mu kibuga, hirya hari ishyamba, hakaba hari umugore wambaye umwenda w'akazi w'umweru, uri gutanga ikiganiro, ndetse ubona ko abo ari kugiha bose bamukurikiye, kandi bamuteze amatwi.

Abantu batari bake bigaragara ko hari ikintu bari kuganiraho, bakaba bicaye mu nzu mo imbere, hagati yabo harimo ameza, imbere ya buri muntu hari icupa ry'amazi, ndetse bicaye ku buryo buri wese ari kureba mugenzi we umuri imbere.

Ababyeyi benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye ibitenge n'udupira twa oranje bahawe ndetse n'udukote tw'ubururu inyuma.

Abantu benshi bicaye mu dutsiko, ubona ko buri gatsiko gafite ibintu kari kwigaho, bakaba bari buze guhuriza hamwe ibitekerezo.

Ni ivomero ririho amavomero abiri, yose azaho amazi, akaba ari amazi yizana, hakaba hari umwana uri kuvoma amazi mu gikombe, bigaragara ko ari ayo kunywa.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ubona ko ari kuganira n'umusore bicaranye ibyo amubwiye abyandika, inyuma yabo hari icyapa kivuga ngo "SIDA iracyahari, duhaguruke tuyirwanye".

Ni ku mugezi wubatse uteye irangi ry'ubururu, ufite amavomero abiri, hakaba hari abagore babiri bafite n'abana, ndetse n'amabase bari kubogerezamo.

Ni abana benshi bakiri batoya, bari gukaraba intoki mu gihe umubyeyi ari kubigisha ko gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ari ingenzi ndetse birinda inda indwara nyinshi harimo nk'inzoka.

Muganga yambaye umwenda w'umweru wabugenewe ndetse n'indi myambaro bambara ku maboko igihe bari kuvura, akaba ari gusuzuma umukecuru indwara runaka ndetse iruhande rwabo hateretse imiti iri mu makarito.

Abantu benshi bicaye mu buryo bw'uruziga hagati yabo hateretsemo ameza harimo kandi n'umugore uri kubaha ikiganiro imbere ya buri muntu urabona ko hatetse icupa ry'amazi ikindi kandi bakurikiye uri kubaha ikiganiro.

Abagabo bicaye mu buryo bw'uruziga bari gusabana banywa banarya, ndetse ubona ko hari ikintu bari kuganiraho, banungurana ibitekerezo.

Ni mu nzu mo imbere, hamanitse ibipapuro byinshi biri mu ibara ry'umweru, hateye irangi ry'umuhondo ahagana ku gikuta, hakaba hicayemwo abantu benshi ku ntebe z'urubaho ubona ko buri wese afite ikayi ari kwandikamo ibyo bari kubwirwa.

Ni umugezi ufite amavomero abiri uri ahantu hadatuwe ubona ko ari mu gihuru, hakaba hari umwana waje kuhavoma ndetse uri no kuyanywa akoresheje intoki.

Ni abantu batari benshi biganjemo ingeri zose ndetse hagati yabo harimo abaganga babiri, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ubona ko hari igikorwa kiberamo.

Ni uburyo bushyirwaho na Leta abaganga bakagira igihe runaka cyo gukorera ahantu bita ku baturage batuye muri ako gace, hakaba hari umusaza uri gusuzumwa mu kanwa ngo barebe ko hari indwara afite.

Agatanda gakozwe mu biti kanitseho amasahani, akaba ari uburyo Leta ishishikariza abaturage mu rwego rwo kwirinda indwara zandura ziturutse mu kuririra ku masahani atumutse, bagashishikariza abaturage bose kubaka udutanda two kwanikaho amasahani.

Ni abagore benshi bicaye ku ntebe imwe, bakikiye abana, baje mu gikorwa cyo gukingiza abana babo, akaba ari uburyo bwo guha abana inkingo, mu rwego rwo kugira ngo bazakure bafite imibereho myiza.

Ni abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu myaka y'ubukure bakaba bose bari ku mugezi bakaraba intoki, akaba ari uburyo bigishwa n'abarimu ko umuntu wese wakoze imyanda agomba gukora amazi meza n'isabune.

Ni ivomero ritishyuza risaba imbaraga kugira ngo ritange amazi mu gihe risaba umuntu uzamura akanamanura ipombo iba iri inyuma kugira ngo amazi abone kuza, hakaba hari abantu benshi baje kuhavoma ndetse bitwaje n'ibyo gutwaramo amazi.

Ibiganza biri gukaraba intoki bikoresheje amazi meza ndetse n'isabune akaba ari uburyo mu rwego rwo kwirinda isuku buri muturage wese asabwa gukaraba intoki mu gihe avuye mu myanda akoresheje amazi meza n'isabune.

Mu ivomero ryubatse ahantu riri ryonyine, umanutse hepfo mu ishyamba, hakaba hari umugore uri kuhavoma wazanye n'ibyo gutwaramo amazi byabugenewe.

Ni mu murima aho abaturage bahinga umuceri barakoze ishyirahamwe igihe cyagera wakera bakawusarura bakawushyira mu mufuka, bakawukusanya bakawugurisha.

Abana batoya bicaye ahantu hamwe, bazanye n'ababyeyi babo ndetse akaba ari uburyo bushyirwaho na Leta bwo kwigisha ababyeyi babo uko bazajya bateka indyo yuzuye ndetse n'igikoma cyafasha abana mu gukura neza.

Ni umugezi bavoma bisabye imbaraga kubera ko amazi aza iyo hari umuntu uri kumanura yongera azamura inyuma, akaba hari umwana uri kuvoma ndetse n'abandi bantu bari kurebera.

N'umugezi w'abaturage wubakiye ubona ko hari n'ushinzwe kuvomesha, hakaba hari abaturage baje bitwaje ibintu byinshi byo gutwaramo amazi, mu rwego rwo kwirinda akajagari bakaba babitondesheje umurongo.

Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga, bari bari kunywa icyayi ndetse bakaba basa nk'abasoje bose, bakaba bakurikijeho kuganira.

Abana benshi ubona ko ari batoya biyambuye imyenda bari koga mu mazi atemba ibingibi bikaba bishobora kubaviramo kugira ubuzima bubi kuko bavanamo inzoka nyinshi zitandukanye.

Ni mu muhanda hagati hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hakaba hari n'abantu kandi bari kugenda batanga ibipapuro. Akaba ari uburyo bwo gutumira abaturage mu buryo bworoshye utabasanze iwabo ubasanze mu kazi ndetse no mu muhanda.

Ni babyeyi benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse n'abana babo bakiri mu myaka yo hasi, akaba ari uburyo Leta ishyiraho bwo kugira ngo bafate umunsi bigishe ababyeyi gukorerara abana babo indyo yuzuye.

Abantu bazwi ku izina ry'abanyabuzima, bakunze gufasha abaturage babegereye mu bijyanye no kubavura. Ubona ko bishimiye kwakira umunyamahanga, waje ubagana.

Mu ivomero ryubakiye riba rifite imigezi myinshi ndetse n'umuntu wagenewe wishyuza amafaranga, hakaba hari abaturage baje kuvoma bitwaje n'ibyo kuvomeramo byinshi, ubu akaba ari uburyo bushyirwaho na leta mu buryo bwo korohereza abaturage kubona amazi.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa ndetse n'ingofero zirinda umutwe kwangirika, ubona ko bateze amatwi, ibyo mudasobwa iri kubereka.

Ni ivomero ryubakiye riri ahantu mu ishyamba, rifite ahantu habiri hose haturuka amazi ndetse rikaba rihagazeho abantu babiri, umugore n'umugabo, bose bakaba bari kuvoma.

Ni ivomero ryubakiye ariko rivomwaho ku buntu hakoreshejwe imbaraga, mu gihe inyuma hajya umuntu umanura akanazamura kugira ngo amazi abashe kuza, hakaba hari abana ubona ko baje kuhavoma.

Abanyabuzima benshi bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'amakarita y'ibyo bakora mu gatuza, bakaba bari kumwe n'umunyamahanga bigaragara ko yari yaje kubahugura ndetse bakaba bari kwifotozanya na we ifoto y'urwibutso.

Ni umugezi uri mu manga, ahantu mu ishyamba, uvomwaho ariko udasaba ikiguzi. Kugira ngo uvomweho bisaba imbaraga y'uko umuntu ajya inyuma akajya azamura yongera amanura kugira ngo amazi aze. Hakaba hari kugaragara abantu baje kuhavoma.

Ni mu nzu mo imbere hasi hashashe sima, harimo intebe z'urubaho ndetse n'izindi z'ibara ry'umweru, hateyemo n'ameza, hicayemo abagore bari kurebana ubona ko bari kuganira.

Umwana w'umunyeshuri w'umuhungu wambaye n'impuzankano uri gufungura amazi ngo akarabe. Akaba ari uburyo bahabwa n'abarezi ko muntu wese ukoze imyanda cyangwa uvuye muri tuwarete agomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Hari amazi atemba ahagana ku mukingo hari itiyo imanura amazi nayo ajya muri ayo, kuri yotiyo hakaba hari ukuboko kuri kugaragara kuri gukaraba mu ntoki kugira ngo kubashe gusa neza.

Abagore benshi bicaye ahagana hanze ku ntebe ndende y'urubaho bafite abana bakiri batoya kandi bari mu kigero kimwe, ubona ko bose baje kubakiriza kugira bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ibiganiro bitandukanye ndetse n'inama, kikaba cyicayemo abantu benshi ndetse bose ubona ko barangajwe imbere n'abari kubaha ikiganiro babicaye imbere yabo.

Ni kwa muganga mo imbere mu cyumba cy'abarwayi, hari abaganga babiri bari kwita ku mwana wazanye n'umubyeyi we uryamye ku gitanda, bakaba bari kugerageza kumupfuka ahantu hose afite ikibazo.

Ni umugezi ukikijwe n'amazu menshi ndetse n'ibiti hakaba hari abaturage benshi baje kuvoma kuri uwo mugezi bitwaje n'ibikoresho byabugenewe byo gutwaramo amazi.

Muganga ari kuvura umwana ukiri mutoya uri kumwe n'umubyeyi, ari kumuvura kandi amuganiriza akaba ari uburyo bukoreshwa n'abaganga kugira ngo bavure umwana adateje ikibazo.

Ni umugezi w'amazi atemba, ku nkengero hari ibyatsi bigufiya hakaba hari abana babiri umukuru n'umuto bazanye ibyo kuvomeramo amazi, ayo mazi mubyukuri akaba aba atemerewe gukoreshwa mu rwego rwo kugirango abantu bagire ubuzima buzira umuze.

Ni abanyabuzima bicaye ahantu hamwe, ubona ko ari amabwiriza bari guhabwa, buri wese akaba afite ikayi n'ikaramu byo kwandika inyigisho n'inama bari guhabwa.

Ni ivomero ridasaba amafaranga ariko rikenera ko kugira ngo haze amazi hagomba kuba hari umuntu inyuma uri kuzamura anamanura kugira ngo amazi aze, akaba hari umwana uri kuvoma ndetse hirya hakaba hahagaze abantu benshi bashungereye.

Abakozi benshi birunze ahantu hamwe, ubona ko bari kwifotoza, bamwe muri bo bambaye amakarita yerekana icyo bakora, ndetse abandi bambaye imyambaro inyuma bakorana, bakaba bafasha abaturage mu bijyanye no kugira ubuzima bwiza.

Ni inzu ifite ibaraza, hakaba hateyemo intebe, idozwe mu byatsi. Hakaba hicayemo umukobwa wambaye agasengeri k'umukara, bigaragara ko yishimye.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hari kugendamo igikamyo kinini cy'umukara n'ubururu, iruhande rwacyo hari umusore ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, kuko yambaye imyenda idasobanutse, ndetse akaba afite n'ibindi bintu byinshi bidasobanutse.

Umugabo wicaye mu muhanda hagati wambaye ipine ry'imodoka, ufite imisatsi isa nabi akaba ari umugabo ugaragara nkaho afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni abana bakiri batoya biga mu ishuri ry'incuke bamwe muri bo bambaye impuzankano abandi ntayo bambaye, bari kwifotoza bishimye cyane ubona ko nta kibazo bafite.

Ni mu nzu mo imbere harimo abantu benshi batandukanye: abagore, abagabo ndetse bose bambaye amakarita, bakaba bahagurutse bari gukoma mu mashyi, bigaragara ko ibiganiro barimo bisa nk'ibirangiye.

Ni abantu bicaye, abandi barahagaze ubona ko bari kwifotoza bishimye ndetse abenshi muri bo bambaye imipira isa, bakaba bicaye ahagana mu mabuye, inyuma yabo hari inyubako ihubatse.

Umugabo wicaye ahantu ubona ko ari wenyine wambaye umupira w'umukara akaba yipfutse mu maso n'ibiganza byombi ubona ko kandi afite ibibazo byinshi mumutwe we.

Ni ahantu bajugunya ibintu byinshi bishaje byaba ibyuma, imyenda, amashashi, hakaba hari umugabo wabyikoreye ibimwe akabitoragura ibindi akabiheka ku nda. Akaba ari umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana benshi bari mu kigero kimwe, bicaye ahantu hamwe bose, ubona ko hari ikintu bakurikiye kiri imbere yabo kandi ubona ko bose byabashimishije.

Umusore uri kugaragaza igice kimwe cyo mu maso harimo nk'umunwa, amazuru, ndetse n'ijisho rimwe, rikaba riri kurira ubona ko kandi hari ibintu byinshi ari gutekereza.

Ni mu nzu mo imbere hateye irangi ry'umuhondo, hejuru harimo parafo hicayemo abantu benshi batandukanye ku ntebe zegamirwa kandi z'umukara bakurikiye uri kubaha ikiganiro uri imbere yabo.

Ifoto yiganjemobara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyijimye, hagana mo hagati handitsemo amagambo mu ibara ry'icyatsi, avuga ko ari umunsi mpuzamahanga wizizwa ku isi hose, wo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Ni mu muhanda hagati, hubatse amazu menshi, hari kugaragara umugabo wambaye imyenda yacicaguritse, umusatsi urimo umwanda ndetse n'ubwanwa butogoshe, akaba ari umugabo ugaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni mu nzu mo imwe imbere hateye irangi ry'umuhondo harimo ibipapuro bitandukanye hatetsemo n'ameza, ndetse hicayemo n'abagore batari benshi bakurikiye uri imbere uri kubaha inyigisho ndetse n'izindi nama.

Icyapa kiriho umugabo ufite indangururamajwi. Hirya ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Ahagana hasi cyane haranditse, umunsi mpuzamahanga wo kugira ubuzima bwiza mu mutwe.

Ni igipapuro kiriho ikirango cya polisi ndetse n'ikirango cy'igihugu, akaba ari ikigo gifasha abantu mu buryo bw'umutekano.

Ni umutegarugori ubona ko adakoze cyane w'igikara ariko nanone atari igikara cyane . Wambaye agakanzu k'ubururu ndetse n'agakote k'umutuku ubona ko yifotoje ari guseka nk'udafite ikibazo.

Ni abantu biganjemo urubyiruko bicaye ahantu hamwe, ubona ko hari inyigisho bari guhabwa. Bose bakaba barangajwe imbere n'uri kubaha ikiganiro.

Umugabo ufite umusatsi usa nabi cyane, wambaye imyenda yacicaguritse idasobanutse, ubona ko yishwe n'inzara, kandi afite ikibazo cyo mu mutwe, ari gusuhuzanya n'undi mugabo munini umeze neza w'igihagararo.

Mu nzu hagenewe gukorerwamo ibiganiro ndetse n'inama, hakaba hicayemo abantu benshi batandukanye bose ubona ko barangajwe imbere n'inyigisho bari guhabwa cyangwa ikiganiro runaka.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite urugi n'amadirishya by'icyatsi kibisi, inyuma hari urutoki ndetse hakaba n'imbuga irimo umukecuru utekiye mu nkono y'umukara iteretse ku ziko.

Umugabo ugaragara ko akuze ariko akaba ari kurira, mbese mu maso ye hari guturukamo amarira menshi, gusa bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Ni umugore wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ufite ibisuko ku mutwe we, akaba yubitse umutwe ndetse yashyize n'amaboko mu mutwe ubona ko hari ibintu byinshi ari kwibaza byamurenze.

Ni umukecuru uri mu zabukuru ubona ko ashaje cyane ahagana hejuru nta mwambaro yambaye, yambaye akantu k'amasaro mu ijosi rye ndetse ateze n'igitambaro cy'umweru mu mutwe.

N'abantu batandukanye bari mu nama, kandi bari no kungurana ibitekerezo. Bakaba bateze amatwi ndetse umugore umwe muri bo akaba ari gutanga ikibazo.

Ni umuntu wicaye ahantu mu nzu, wambaye igitenge cy'abagore kandi ari umugabo, uziritse amaguru bigaragara ko bamugiriye nabi bakanga no kumurekura, akaba yifashe nk'uwo ibibazo byarenze.

Ni umugabo ubona ko ashaje ufite imisatsi myinshi utamenya uburyo yayifunzemo akaba yambaye imyenda y'ubururu yakenyeye n'ikindi gitambaro cy'umuhondo, akaba ari umusaza bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Inzego z'umutekano zifatanyije n'urubyiruko ndetse n'abandi baturage, ndetse n'izindi nzego nkuru zibishinzwe, bafashe umwanya wo kurwanya ihohoterwa, ndetse no kumenyesha buri muntu ko agomba gukora ibiri mu nshingano ze.

Inzu yagenewe gukorerwamo inama ndetse n'ibindi biganiro, hicayemo abantu benshi mu ntebe z'umukara zegamirwa, ndetse bose bakurikiye ababicaye imbere, bari kubaha ibiganiro bitandukanye.

Inzu iteye irange ry'umuhondo ifite ibaraza, inkingi n'utwuma tw'ubururu turinda abantu kugwa, ikaba ifite umukingo wubatswe mu mabuye gusa akaba ari umukingo wubakwa mu mabuye gusa mu rwego rwo kwirinda impanuka cyangwa ibiza.

Ni kwa muganga harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ndetse n'ibishushanyo bya gakondo bitatsemo. Hakaba hari intebe yagenewe kwicaramo umurwayi nko mu gihe bari kumukura. Hakaba n'indi ntebe yagenewe kwicaraho muganga.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, imbere wambaye umupira w'ubudodo w'ikigina ubona ko ari kwifotoza yishimye.

Ni umuganga uri gukoresha, mudasobwa, areba indwara nyinshi zitandukanye, zishobora, gufata amenyo, akaba ari kuzigaho n'uburyo ashobora kuzivura.

Umukobwa uri koza amenyo yireba mu kirahure kiri imbere ye akoresheje umuti w'amenyo ndetse n'akantu kabugenewe, koza amenyo bikaba biyafasha kutangirika ndetse bikanayarinda indwara nyinshi zitandukanye zifata amenyo.

Ni mu ishuri mo imbere, harimo abanyeshuri, imbere hakaba abaganga, ndetse na mwarimu, abaganga bakaba baje kwigisha abanyeshuri uburyo bwo gukura amenyo, mu rwego rwo kuyarinda indwara zitandukanye zifata amenyo.

Ni umugabo ubona ko ari bwo akibyuka kubera ko yambaye imyenda iraranwa, akaba abyutse ajya mu kirahure kwireba ngo arebe ko amenyo ye nta kibazo yaba yahuye na cyo.

Ni uburyo ikigo cy'Igihugu kizwi ku izina rya RBC gishinzwe imibereho myiza y'abaturage gifata icyicaro ahantu runaka, kikagifata iminsi yo kujya bapima abantu ngo barebe ibiro byabo nimba bingana n'uburebure bwabo.

Umugore uryamye kwa muganga uri kwitabwaho n'umuganga wambaye agapfukamunwa, akaba yamwasamishije kugira ngo arebe ikibazo yaba afite mu menyo.

Ni abaganga bari mu bushakashatsi bafashe ikintu kidahumeka bagikura amenyo baza kukigiraho kugira ngo bizabafashe kuvura abantu mu buryo bwizewe.

Ni abana batari batoya hivanzemo n'abantu bakuru, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, bari guca kuri buri umwe bamurebera mu kanwa ko nta kibazo cy'amenyo afite cyangwa ubundi burwayi bufata amenyo.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, hicaye umugabo ubona ko akuze, akaba yasamye ngo muganga abashe kumurebera ikibazo yaba afite mu menyo ye.

Ni umusore wambaye umupira w'amaboko maremare, akaba afite akantu kifashishwa mu kureba ikibazo umuntu afite mu menyo ye.

Ni mu ishuri harimo abanyeshuri b'abana ndetse bambaye n'impuzankano, bari kumwe na mwarimu wabo uri kubigisha ukuntu bagomba gukorera isuku amenyo yabo.

Ni mu ishuri ryigishizwamo abanyeshuri, bakaba basuwe n'abaganga ndetse n'izindi nzego zitandukanye, bakaba bari kwigishwa uburyo bwo koza amenyo mu rwego rwo kuyarinda indwara nyinshi zitandukanye.

Kwa muganga hari umugore uryamye ku gitanda cyabugenewe, akaba yasamye ngo barebe ikibazo afite mu menyo. Akaba ari kwitabwaho n'abaganga bagera muri babiri.

Ni abana benshi bakiri mu myaka yo hasi biga mu mashuri abanza, buri wese akaba ari koza amenyo akoresheje akantu kabugenewe ndetse n'umuti w'amenyo, akaba ari uburyo bukoreshwa n'abarimu bari kubigisha uko bagomba kuzajya bakorera isuku amenyo yabo.

Ni umwana ukiri mutoya wicaye mu ntebe uri koza amenyo, akaba ari uburyo yigishijwe bwo koza amenyo mu rwego rwo kuyarinda kwangirika.

Ni kwa muganga harimo ibyapa byinshi bitandukanye, hakaba hari umwana uri kwitabwaho bamureba mu kanwa ko nta kibazo cy'amenyo afite, akaba ari kwitabwaho n'abaganga babiri.

Ni umusore uri kwireba mu kirahure wambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'umweru, uri kwishimira ukuntu amenyo ye ameze neza kandi afite ubuzima buzira umuze.

Ni abana b'abanyeshuri, bambaye n'impuzankano, bakaba bari kwigishwa uburyo bagomba koza amenyo, bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'akantu kabugenewe, mu rwego rwo kurinda amenyo kwangirika n'izindi ndwara nyinshi zifata amenyo.

Ni umugore ubona ko akuze wicaye mu kagare, wagenderewe n'umuganga, akaba yamushyizeho cya gipimo ku kuboko kibasha kureba uko ubushyuhe n'umuriro bingana mu mubiri.

Umukecuru uri mu zabukuru uri kwitabwaho, ubona ko we n'umuganga uri kumwitaho bicaye ahagana mu muhanda, akaba ari uburyo bwo kwita ku bantu bari mu zabukuru kugira ngo bakomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Ni umusaza uri mu zabukuru wicaye mu kagare uri kwitabwaho n'umuganga ubona ko yamusanze iwe, akaba ari uburyo abaganga bajya gusura abantu bari mu zabukuru ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ni abagore ubona ko bakuze babiri bari mu myitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ikaba ifasha abantu ndetse n'abakuze kongera kumera neza, igafasha n'imibiri yabo gukora mu buryo bushyashya.

Umusaza uri mu za bukuru, wambaye ishati y'umweru wicaye mu ntebe akaba yambaye n'agapfukamunwa, ari kwitabwaho na muganga nawe wambaye agapfukamunwa, bakaba bicaye ahagana hagati mu byatsi hateye n'imbuto zitandukanye.

Umusaza uri mu zabukuru, ari kwerekwa n'umukobwa we uko azajya anywa ibinini umunsi ku wundi ndetse iruhande rwe ahagana ku meza hateretse ikirahure kirimo amazi yo kubinywesha.

Umusaza ushaje cyane ubona ko ari mu zabukuru, akaba yicaye mu ibase yagenewe kogerwamo, bakaba bari kumwoza kubera ko atakigira imbaraga zo kuba yakiyoza.

Ni umugabo ukuze uri guhabwa ikinini n'umukobwa umuri iruhande, iruhande rwabo kandi hari ameza maremare ateretseho mudasobwa ndetse n'ikirahure cy'amazi cyo kunywesha ibyo binini.

Umukecuru uri mu za bukuru, ufite n'umusatsi umweru ahagana ku mutwe, akaba ari mu nzu, ari gufashwa gukora imyitozo ngororamubiri irambura amaboko, akaba ari kubifashwamo n'umukobwa.

Abantu bakuze ubona ko bari mu zabukuru bari gukora imyitozo ngororamubiri, nk'uko tubizi idufasha mu kuturinda indwara ndetse igatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri wacu, bikaba akarusho iyo ikozwe n'abantu bashaje kuko aba ari bo bahuye n'imvune nyinshi.

Umusaza uri mu za bukuru ufashwe n'abana babiri kugira ngo agire aho ajya, akaba ari uburyo bwo kwita ku bantu bari mu za bukuru kugira ngo be kurambirwa n'ubuzima bwabo.

Umugabo uri mu za bukuru uri gufashwa gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari uburyo bwo kwita ku bantu bari mu za bukuru mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ukuze wicaye ku meza uri gufata amafunguro ndetse akaba ari kwitabwaho n'undi mugore uri iruhande rwe. Mu buryo bwo kwita ku bantu bakuze kandi umuntu agomba kubategurira indyo yuzuye hariho n'imbuto ndetse n'icyo kunywa.

Ni mu nzu harimo umusaza ubona ko ari mu zabukuru, ndetse no kugira ahantu ajya avuye ku gitanda, babanza kumufasha. Akaba ari gufashwa n'umukobwa ubona ko ari umwana we.

Umusaza uri mu zabukuru wicaye ahantu hamwe ubona ko ari wenyine, wambaye akantu ku kaboko ndetse akaba ari kukarebaho, akaba ari akantu kambikwa umuntu ngo kajye kamufasha kumwereka imikorere y'umubiri we.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bari mu zabukuru bicaye ku meza amwe, umusaza ari kwereka umukecuru uko azajya akoresha umuti bamuhaye.

Umusaza uri mu zabukuru, wicaye mu kagare uri kwitabwaho n'umuganga. Akaba ari uburyo abaganga bavura abantu bari mu zabukuru, ndetse banabaganiriza kugira ngo batarambirwa.

Ni umurima ubona ko harimo ibyatsi byinshi bitandukanye n'ibindi bimera, hakaba hahagazemo abagore n'abagabo, ahagana hagati, bose bari kwifotoza bazamuye amaboko ubona ko bishimye.

Utuntu twinshi turi mu mabara atandukanye, ay'umukara, umuhondo, umutuku ndetse n'andi. Akaba ari utuntu dukunze kugurwa abana mu rwego rwo guharanira gushimisha abana bakiri batoya.

Mu rwego rwo kwita ku bantu bashaje ndetse no kubereka urukundo, hari imikino yabugenewe wakina n'abantu bari mu zabukuru, bigatuma babasha kwishima kandi bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni mu nzu mw'imbere harimo intebe zegamirwa, amatara yo muri salo, ububati ndetse n'ibindi. Hari umusaza wicaye mu ntebe imwe nini wambaye rinete, akaba ari kwitabwaho n'umuganga amwambika cya kintu ku kuboko cyerekana uko umuriro wo mu mubiri uhagaze.

Abagore badoda bakoresheje ubudodo, hakaba hari kugaragara abagore batatu babiri bambaye amarinete ndetse uwo hagati akaba afite terefone afite ikintu ari kubereka.

Umukecuru uri mu za bukuru uri gukata imboga ndetse n'imbuto akaba ari kuganirizwa n'umwana we, akaba ari uburyo bwiza bwo kwita ku bantu bari mu za bukuru mu gihe ari mu turimo ukaba umuganiriza.

Ni nyubako iri kuberamo ubukwe, harimo abantu benshi batandukanye, imbere hari abasaza n'abakecuru, bambaye imikenyero, ubona ko bakurikiye uko ubukwe buri kugenda.

Ni mu isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, imbuto, imboga ndetse n'ibindi, hakaba hari kugaragara abagore bicaye bari kuganira, bari gucuruza ndetse inyanya zipakiye mu bikarito.

Umugabo uri mu za bukuru uri gufashwa n'undi mugabo mutoya bisa nkaho ari umwana we, akaba ari kumwitaho mu buryo bwo kugira ngo bagende bagere aho bagiye. Akaba ari uburyo bwo gufasha abari mu zabukuru ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni abakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru bicaye mu ntebe zegamirwa, ubona ko buri wese afite inkoni imufasha kugenda kandi bose bakaba bari kwitegereza umuntu uri kubaha ikiganiro.

Umugore ubona ko ari mukuru uri mu myitozo ngororamubiri. Mu by'ukuri imyitozo ngororamubiri ikaba ifasha umubiri kongera kumera neza, ndetse ikarinda n'iminkanyari ku bantu baba bakuze.

Ni muri salo harimo abantu bicaye ku meza ubona ko bari mu za bukuru bagiye kurya, gusa mu ifunguro ryabo hakaba higanjemo imboga z'icyatsi kibisi, zikaba zifashishwa nko kurinda indwara mu mubiri.

Umusaza n'umukecuru, ubona ko bari mu za bukuru bakikijwe n'abana babo ndetse n'abuzukuru, bakaba bicaye ahagana ku irembo ubona ko bose bishimye bari guseka.

Umusaza n'umukecuru, ubona ko bari mu za bukuru ndetse bakaba bari kumwe n'abana babo, harimo n'umwuzukuru wabo, bakaba bari kwifotoza bishimye.

Umukecuru uri mu zabukuru, uri hagati y'abana be babiri, ubona ko bose bishimye, ku mafunguro yabo hakaba higanjeho imboga, zikaba ari zimwe mu birinda indwara mu mubiri wacu.

Ni umusaza ugeze mu za bukuru nk'uko tubizi abantu bashaje bakunda kurwara indwara nyinshi zitandukanye, ni byiza iyo buri gihehe kenshi mu kwezi basuwe n'abaganga bakareba uko indwara z'umubiri zihagaze nimba ziri kugabanyuka cyangwa nimba ziri kwiyongera.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'umweru, uri kumwe na muganga akaba ari kumwerekera, ibyo akora kugira ngo yumve aho atameze neza.

Umukecuru ushaje uteze igitambaro mu mutwe ukikijwe n'abana benshi harimo abahungu n'abakobwa ubona ko bose ari abuzukuru be bakaba bicaye hamwe bari kwifotoza baseka.

Umugore wicaye muri saro uri gukora imyitozo ngororamubiri. Ikaba yifashishwa mu rwego rwo kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza, amaraso atembere neza kandi biturinde n'indwara nyinshi zitandukanye.

Ni umukecuru udakuze cyane uteruye isahani y'umweru, ubona ko agiye kurya. Iyo sahani ikaba yiganjeho imboga. Zikaba ziribwa kugira ngo zifashe abantu kubarinda indwara nyinshi zitandukanye.

Umugabo ukuze uri kongera gutozwa mu bijyanye no kugenda bitewe n'ikibazo yagize mu maguru hambere. Akaba ari kwitabwaho n'umuganga akaba ari uburyo buhabwa abari mu zabukuru ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu bicaye mu nyubako mo imbere, ubona ko bose bakora mu nzego z'ubuyobozi, bambaye neza ariko kandi bose bakaba bakurikiye uri imbere ari kubaha ikiganiro.

Icyapa cyiganjemo ibara ry'ubururu, kikaba cyanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru, akaba ari ingombajwi ya ha ndetse n'iya ra, ubona ko biri gukorana mu ntoki bivuga ku buzima bwiza umuturage wese agomba kugira.

Abihayeyimana batatu b'abakobwa, ubona ko bose bashaje, bakaba bari gusuhuza umugabo urimo hagati, ndetse ubona ko bose bafite amatsiko yo kumusuhuza no kumuganiriza.

Abantu bakora mu nzego za leta ubona ko bambaye neza kandi biyubashye, bicaye ahantu hamwe bakurikiye abagabo babiri bari kubaha amahugurwa n'ibindi biganiro by'ingenzi.

Ni umugabo uryamye ku gatanda kabugenewe ubona ko yahanutse akaba ari kwitabwaho n'abaganga ndetse hakaba hari n'abandi bantu bari kubafasha bambaye utujire tw'ubururu.

Ni igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara n'ubururu, ahagana hejuru hakaba hariho abana bakiri batoya ndetse hakaba hariho amakuru ajyanye n'ukuntu babafasha mu buryo butandukanye.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa hakaba harimo ndetse na mudasobwa, harimo kandi abaganga bari gukora ubushakashatsi ku kintu runaka bambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa ndetse n'ingofero.

Uburyo leta ishyiraho abaganga bagafata urugendo bakajya kuvura abaturage babasanze aho baba, bakahafata iminsi bakahubaka n'ibizajya bibikwamo imiti yabo imwe n'imwe.

Umusore wambaye agapfukamunwa wicaye ahantu bakaba bari kumukingira Kovide cumi n'icyenda cyangwa icyorezo cya Corona virus, akaba ari urukingo rwahabwaga Abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo itazabafata.

Ni abaganga bambaye imyenda yabugenewe iri mu ibara ry'ubururu ndetse bambaye n'udupfukamunwa n'ingofero ubona ko bari gukoreramwo imbere mu nzu kandi hari ikintu bari kwitaho.

Abagabo babiri b'abasimumu, bose bambaye amakoti meza, umwe ari guha ubushobozi undi, ndetse n'icyangombwa kibigaragaza anamushimira.

Umugabo uryamye ku kantu kagenewe kuryama aho abantu bakoze impanuka, akaba ari kwitabwaho n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bakaba ari kumwe kandi n'abandi bakozi bambaye utujiri.

Ni mu nzu mo imbere hubatse bitangaje, hicaye abantu mu buryo buri ku murongo, akaba ari abantu bicaye ubona ko bose barangajwe imbere n'uri kubaha ibiganiro ndetse n'izindi nyigisho.

Inzu izwi ku izina rya konoshi, ifite icyapa hejuru cyerekana ibikorerwamo. Bigaragara ko ahagana hasi hacururizwamo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye.

Ni mu nzu hagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri mu buryo bwinshi butandukanye, hakaba harimo ibikoresho byose bishobora kwifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni kwa muganga, hari inyubako nyinshi zifashishwa mu kuvurirwamo abarwayi, hakaba hari kugaragara ivurirwamo ababyeyi cyane cyane abagiye kubyara, cyane ko nta mugabo uba wemerewe kuyinjiramo.

Ni kwa muganga, hari inyubako nziza ziganjemo amatafari ahiye, ndetse inzugi ziteye irangi ry'umuhondo. Iki akaba ari igice cyagenewe abagore kuko ari ho abagore babyarira. Imbere kandi ubona ko hari umusaza uri kugenda.

Ni icyumba kimwe mu bigize kwa muganga ahagana hasi hateye irangi ry'umuhondo ku bikuta n'irangi ry'umweru harimo igitanda kimwe kandi kiryamyeho umubyeyi w'umugore wapfutswe igitambaro cy'icyatsi kibisi mu maso ndetse akaba ari kwitabwaho n'abaganga babiri.

Ni mu nzu, hasi n'amakaro, ku rukuta hari irangi ry'umweru n'icyatsi kibisi, hakaba hicayemo abantu benshi b'abasaza n'abakecuru, ubona ko bari mu za bukuru. Iruhande rwa buri muntu hakaba hateretse icupa ry'amazi ndetse bose bakurikiye uri bakuha ibiganiro.

Ni kwa muganga, ahagana ku irembo hagenewe guparikwa ibinyabiziga byinshi bitandukanye, byaba ibitwara abarwayi ndetse n'ibitwara abantu bisanzwe, hakaba hari umuntu uri kwerereka buri kinyabiziga aho kigomba guhagarara.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, kiba kirimo utu etajeri dukoze mu byuma twahariwe kubikwamo imiti gusa, habikwamo imiti, nta kindi gikoresho kihabikwa.

Ni abaforomokazi bahagaze ahagana hanze mu busitani ubona ko bari kwifotoza bishimye, bambaye kandi imyambaro yabugenewe y'akazi ndetse n'udupfukamunwa.

Inyubako nziza igeretse, ubona ko hakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ndetse hari n'abaturage bahatonze umurongo, ahagana hasi hashashe sima mu rwego rwo kugabanya ubunyerere, hakaba kandi hari n'ubusitani burimo indabyo nziza zitandukanye.

Ni inzu nziza iteye irangi ry'umuhondo ikagira ibaraza, ikagira kandi n'ahantu hagenewe guparikwa ibinyabiziga ikaba ikorerwamo ibikorwa by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibereho myiza y'abaturage.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, harimo ibyerekana amashusho, ahagana hasi hashashe amakaro, ku nkuta hateye irangi ry'umweru, hari n'igitanda gishasheho ishuka y'umweru cyagenewe kuryamaho umurwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu mu mihanda ibiri y'amabuye ihurira ahantu hamwe, ku nkengero hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire, ayo mabuye akaba asaswa mu muhanda mu rwego rwo kugabanya ubunyerere.

Winjira kwa muganga hari inyubako ndende kandi nziza igeretse rimwe ifite ibaraza ikajyira n'utwuma turinda abantu kugwa, ahagana hasi hashashe amabuye ndetse imbere hari n'ahantu hagenewe guparika ibinyabiziga.

Ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe kiri ahagana ku muhanda, akaba ari ibitaro byubakwa na Leta mu rwego rwo kugabanya ingendo zikorwa n'abaturage, bagiye kwivuza ahantu kure.

Ni kwa muganga hari inyubako ziganjemo amatafari ahiye ndetse ahagana hasi hashashe amabuye, hakaba hari ubusitani bwiza burimo indabyo ngufi ya ni ndende hakaba hari n'ibigega byagenewe kubika amazi.

Ni umukecuru uri mu zabukuru ubona ko yasuwe n'umuganga ndetse mu gikari cy'urugo rwe hateye urutoki, akaba ari uburyo bwashyizweho na Leta bw'uko abaganga bagomba kujya bacishamo bagasura abantu bari mu za bukuru ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ni kwa muganga ahagenewe kwicara abaganga mu gihe bari mu bushakashatsi cyangwa bicaye imbere ya mudasobwa. Hakaba hatavurirwa abarwayi, ahubwo hakorerwa ibindi bikorwa byihariye nko kureba ibyinjiye n'ibyasohotse ndetse no kugenzura ibindi bikorwa byose bibera kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cyo mu matyazo, cyubatswe na leta mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ingendo z'abaturage bajya kwivuza bakoze urugendo. Kikaba cyubatse hafi n'umuhanda wa kaburimbo.

Ni abaganga ubona ko bari gukora ubushakashatsi, bafite ibintu byinshi bari kwigaho, bagira ngo barebe ko hari igisubizo biri buze kubaha runaka.

Ni ahagana kwa muganga hari igipangu kirekire kinini cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, ku irembo kandi inyuma y'igipangu hari umugore uhahagaze ndetse uhetse n'umwana.

Ni ni icyumba kirekire mu byo kwa muganga, kigiye kigabanyijemo uduce. Kiba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha bari kuvura ndetse harimo n'intebe zijya kumera nk'ibitanda biryamaho abarwayi mu gihe bari kubavura.

Ni kwa muganga hasi hashashe amakaro, hejuru harimo parafo ndetse n'amatara ari kwaka. Akaba ari hahandi batangira serivisi nyinshi zitandukanye, harimo nko kwishyura ndetse n'ibindi, hagati hakaba hari kugendamo umuganga wambaye n'imyenda y'akazi.

Ni inzu iri ku muhanda ifite imiryango myinshi, izwi ku izina rya konoshi, ifite ibaraza riparikwaho ibinyabiziga, ikaba ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye harimo n'ibyo gucuruza imiti.

Ni kwa muganga, hasi n'amakaro yijimye. Ku nkuta hateye irangi ry'umweru, hakaba hari icyuma gikoresha amashanyarazi kifashishwa ndetse gikenera na mudasobwa. Iruhande kandi hakaba hari igitanda cyagenewe kuryamaho abarwayi.

Ni kwa muganga ahagana hasi hashashe amapave hahagaze abantu benshi ndetse bamwe muri bo bafite n'amakarita y'akazi abandi bambaye udupfukamunwa, akaba ari igice cyahariwe kuganirizwamo abantu bakorewe ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina.

Ni ibitaro biteye irangi ry'umuhondo bifite ibaraza byubakije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, hakaba hicaye ababyeyi babiri buri wese ari kumwe n'umwana, akaba ari ibitaro bitoya kandi byifashishwa mu kuvura abaturage batuye hafi yabyo.

Ni kwa muganga hateye irangi ry'umweru, hari n'ibiraza, iki akaba ari igice cyagenewe abagore, akaba aricyo gice abagore babyariramo, ahagana hirya kandi hari ubusitani burimo indabyo ngufiya, ndetse n'ibiti birebire.

Ni kwa muganga mo imbere, harimo udutanda twagenewe kuryamamo abarwayi, hakabamo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gihe bari kuvura abarwayi.

Ni kwa muganga mo imbere, mu cyumba kibikwamo imiti ndetse kigakorerwamo n'ubushakashatsi. Kikaba kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa hakenewe amashanyarazi ndetse hakaba harimo na za mudasobwa zifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Umuganga yicaye mu ntebe imwe n'umusaza uri mu zabukuru, wambaye ishati y'umutuku, yamushyizeho cya kintu ku kuboko cyifashishwa mu kureba ukuntu umuriro uhagaze mu mubiri wawe.

Ni icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kuryamamo abarwayi, hakaba harimo ibitanda bishashe neza, amashuka y'ubururu n'umweru, byose bigaragara ko nta barwayi bariho ndetse haba harimo amarido atandukanye igitanda n'icy'undi.

Ni ibitaro bikuru biri mu Karere ka Narugenge, inyubako nyinshi z'ibyo bitaro ziganjemo ibara ry'umweru, ahagana hasi ku irembo hashashe amabuye ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Ni icyumba kimwe kirekire mu bigize kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi byose biryamyeho abarwayi ndetse ubona ko hari n'abarwaza. Ku nkuta hateye irangi ry'umweru, ahagana hasi hashashe sima yijimye.

Ni inyubako ebyiri zubatse neza kandi mu buryo butangaje, ziteganye hagati yazo harimo umuhanda wa kaburimbo, kandi buri nyubako ikaba ifite ubusitani.

Ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, harimo ibitanda bitandukanye ndetse byose biryamyeho abarwayi, bambaye n'utubafasha guhumeka neza ndetse harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako nziza igeretse rimwe, ndende, iri munsi y'umuhanda wa kaburimbo, ahagana hasi mu ibaraza ikaba ifite ahantu hagenewe guparikwa ibinyabiziga. Ikaba ifite n'ibyapa kandi byerekana ibikorerwa byose muri iyo nyubako.

Inyubako nziza iteye irangi ry'umweru n'ubururu bukeya, igeretse rimwe, ikaba ifite n'ahantu hagenewe guparika ibinyabiziga ndetse ifite n'ubusitani burimo indabyo ngufiya, imbere kandi hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, kigeretse rimwe, ahagana hasi hashasha amakaro, hakaba harimo abarwayi benshi batandukanye, baje ngo bafashwe mu buryo butandukanye, hakaba hari ibitaro bifasha abaturage babyegereye.

Ni kwa muganga hari inyubako igeretse rimwe yubakishije mu matafari ahiye hari abaturage benshi baje bahagana ahagana hasi kandi hashashe amabuye yashyizweho mu kugira ngo ajye arinda abantu ubunyererere.

Ni kwa muganga hari umusore wicaye ku ntebe uri guterwa ushinge na muganga mu rwego rwo kugira ngo amufate amaraso, abashe kumenya indwara yaba arwaye.

Ni ahagana ku irembo ku bitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge, ahagana hasi hashashe amapave mu rwego rwo kugabanya ubunyrere mu bahagana, hari ubusitani kandi ndetse n'indabyo ngufiya z'icyatsi kibisi.

Ni kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi. Harimo kandi n'ibyifashishwa mu gukora ubushakashatsi. Harimo ibyerekana amashusho, byose bikaba bisaba umuriro w'amashanyarazi. Hari n'utundi tuntu tujya kumera nk'udutanda dutoya, tugiye dushasheho ibitambaro by'ubururu.

Ni agace karimo inyubako ubona ko zubatse mu buryo bumwe, zisa kandi zose ziteye irange ry'umweru. Ahagana ku muhanda hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu.

Inzu nziza itari nini yubatse mu buryo bwiza, iruhande hari indi nzu, imbere yazo zombi hari ubusitani burimo indabyo z'icyatsi kibisi ndetse hakabamo n'indabyo ngufiya.

Icyumba kimwe mu byo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bikoreshwa hifashishijwe amashanyarazi, hakaba harimo kandi n'igitanda kimwe kiryamaho umurwayi mu gihe bari kumuvura.

Ni inyubako nziza ziteye irange ry'umweru zo kwa muganga zubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari kugaragara igice cyahariwe gusuzuma ibipimo by'abarwayi biba byafashwe.

Ni inzu iteye irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya ari mu irangi ry'umweru, imbere ikaba ifite n'ubusitani, ikaba ari inzu ikorerwamo mu kuvura abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe, ikaba kandi ari iy'abihayimana.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye nk'amanama ndetse n'ibindi. Hakaba harimo intebe zegamirwa z'umukara, inyuma ya buri ntebe hakaba hagiye harimo akabaho gatandukanya igihande n'ikindi. Imbere hari ahagenewe kwicara uyoboye ikiganiro.

Ni ibuga irimo ibyatsi hakaba harimo icyapa cyerekana kwa muganga, kikaba kiri kwifotorezwaho n'abantu benshi higanjemo abanyamahanga ndetse n'abandi.

Ni kwa muganga, hari kwerekanwa igice kimwe mu bihagize, akaba ari igice cyahariwe kwakira abantu bakorewe ihohoterwa, cyane cyane irishingiye ku gitsina.

Ni igice kimwe mu bigize kwa muganga, kiba gishinzwe gusuzuma indwara abantu barwaye, hagendewe ku bipimo bafashe. Ahagana hanze hakaba hicaye abaturage batari benshi, ubona ko bategereje ibisubizo byabo.

Ni igice kimwe mu byo kwa muganga cyagenewe kwicaramo abaturage baje babagana mu gihe bagitegereje ubufasha kandi bakicara bakurikije uko bagiye baza.

Ni kwa muganga, ahagana hasi hashashe sima yijimye, hejuru hari prafo, hagati kandi harimo ibitanda byinshi byagenewe kuryamaho abarwayi ndetse bikaba bishasheho ishoka y'ubururu.

Ni kwa muganga mo imbere hashunyijemo ibintu byinshi bitandukanye, hatatsemo kandi imideri ikorwa mu bintu gakondo, hakaba harimo igitanda cyagenewe kuryamaho umurwayi ndetse n'agatebe kicaraho muganga igihe ari kukuganiriza.

Inzu iri ku muhanda w'umukara uzwi ku izina rya kaburimbo, ikaba ari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite imiryango ibiri, ahagana hejuru hakaba hariho icyapa cyerekana ibikorerwamo.

Ni kwa muganga mo imbere, ahantu haba haragenewe gukorerwa imiti ndetse igashyirwa mu macupa yabugenewe. Hakaba hari ibyuma byinshi byabugenewe ndetse bikoreshwa hifashishijwe n'umuriro w'amashanyarazi. Hakaba kandi hari n'abaganga bari kubikoresha.

Ni icyumba kimwe mu byo kwa muganga, ahagenewe gukorerwa ubushakashatsi ndetse hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga habikwa n'ibindi bintu nk'imiti, iminzani ndetse n'ibindi.

Ni kwa muganga mo imbere utarinjira aho abarwayi baba bari, ahagana hasi hashashe amakaro y'amabara atandukanye, hejuru harimo parafo, ku mpande hateye irange ry'umweru, iruhande rw'umuryango umwe, hakaba hateretse ururabo rw'icyatsi kibisi.

Ni kimwe mu byumba byo kwa muganga harimo ibyuma byinshi by'amashanyarazi byifashishwa mu gihe bari kuvura ndetse no mu yindi mirimo yo kwa muganga, iruhande rwabyo kandi hari igitanda kiryamyeho umubyeyi w'umugore.

Ni kwa muganga, hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ahagana ku irembo hasashishije amabuye mu buryo bwo kwirinda kunyerera, hari ubusitani kandi burimo indabyo ngufiya, hakaba hari n'icyapa kikwereka gahunda zose zitangirwamo.

Ni ku kigo nderabuzima cya Gishweru akaba ari ikigo gishyirwa hafi y'abaturage kugira ngo abaturage bajye bareka kujya gushaka ubuvuzi kure yabo.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, akaba ari hamwe mu bigize kwa muganga, bakirira abantu bakorewe ihohoterwa. Cyane cyane irishingiye ku gitsina.

Ni kwa muganga, ku nkutata irangi ry'umweru ahagana hasi hashashe sima, hari umurwayi umwe wicaye mu kagare ndetse n'abandi benshi batandukanye batonze umurongo bari kugana uwicaye ahagana ku meza ngo abafashe.

Winjira mu bitaro bikuru bya Butare bizwi ku izina rya CHUB, hari ubusitani burimo indabyo ndende, ndetse burimo n'ibyapa bitandukanye, byerekana buri gikorwa kihakorerwa. Ahagana imbere y'ibitaro, hakaba hari ahantu hagenewe guparika ibinyabiziga.

Umuganga w'umukobwa wambaye n’imyenda yabugenewe, uri kwita ku murwayi uryamye ahagana ku gitanda. Akaba yashyize akaboko ku gutwi kwe ngo abashe kumva neza uko ameze.

Inzu nziza igeretse kabiri ifite ibigega hejuru byagenewe kujyamo amazi, ikagira n'ibirahuri ku mpande birinda abantu kuba bahanuka, ahagana hasi kandi ikaba ifite ibaraza ryagenewe gushyiramo imodoka, ikaba yubatse hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Ni mu nzu mu imbere harimo umugabo washeshe akantu kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri, akaba ari no gukororaho ubona ko ari kugorora igice cy'amaboko ndetse n'izindi ngingo.

Ni kwa muganga mo imbere, abaganga baricaye, bari kwakira amahugurwa bari guhabwa n'ubakuriye, akaba ari amahugurwa ahabwa abaganga mu rwego rwo kongerera ubumenyi n'uburyo bakoresha bimwe mu byuma bitandukanye.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri uhagaze ahantu hamwe wambaye isaha y'umukara ku kuboko, akaba ari kugorora igice cyo hejuru .Nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri ni myiza ku buzima bwacu kuko ifasha umubiri wacu gukora neza ndetse ikanaturinda indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti myinshi itandukanye harimo iririmo mu ducupa, mu mashashi, ndetse no mu dukarito tugufiya. Hakaba hari n'izingazinze, yifashishwa mu kuzirika abantu bagize imvune. N'indi yose kandi ikaba yifashishwa mu kuvura abantu bagize imvune, mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo uryamye ku gatanda kabugenewe uri kugororwa mu gice cy'ukuguru ahagana hasi, akaba ari kubifashwamo n'umuganga amwitaho kugira ngo arebe uko yamera neza.

Abaganga bambaye n'imyenda yabugenewe y'ibara ry'umweru, bari gukurikirana ibintu ku ikoranabuhanga, ndetse mo hagati harimo ibitanda byinshi biryamyeho n'abarwayi.

Ni umukobwa ubona ko aribwo yari akibyuka, agahita yambara imyenda yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri ukibyuka bikaba ari byiza, kuko bifasha mu kwirinda indwara nyinshi zitandukanye.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'amaboko magufi w'icyatsi ndetse n'ishapure mu ijosi ubona ko asoje imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi ndetse amazi akaba abafasha mu buryo bwo kuba amaraso yatembera neza mu mubiri wabo.

Ni agasanduku k'umweru, ku mpande gafite ikirango cy'umutuku ndetse harimo n'umusaraba w'umweru, werekana ko gatwara imiti. Habikwamo imiti myinshi kandi itandukanye, cyane cyane yifashishwa mu kuvura abantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo wari uri mu myitozo ngororamubiri akaba yihagaritse mu rwego rwo kugira ngo abanze anywe amazi. Kuko na yo yifashishwa nk'umuti ku muntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko atuma umubiri uhita ugarura imbaraga byihuse ndetse agatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo kandi n'ibikoresho byabugenewe, harimo n'abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri buri wese afite ibuye mu kaboko. Imyitozo ngororamubiri ikaba ifasha umubiri mu bikorwa byinshi bitandukanye, ifasha kandi n'amaraso gutembera neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, uri kugorora igice cyo hasi cy'ukuguru, wambaye isaha y'umukara ku kaboko, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba yifashishwa nk'umuti; kubera ko abantu bayikora kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse ikaba ikiza n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cyo mu maboko, akaba ari gufashwa na muganga gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije akantu kagenewe mu kurambura amaboko.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara yagenewe gukoreshwa siporo uri mu myitozo ngororamubiri iruhande rwe hateretse icupa ry'ubururu ririmo amazi. Amazi akaba anyobwa n'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amufashe kumera neza mu mubiri.

Umukobwa wagize ikibazo ahagana mu ivi, akaba yagiye iruhande rwa muganga ngo abashe kumufasha ndetse amuhe n'imiti ishobora kuvura imvune ye.

Ni ibikoresho bitandukanye byose bishobora kwifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko iturinda indwara zitandukanye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yihagaritse ngo abanze anywe amazi. Nk'uko tubizi amazi akaba ari nk'umuti ku bantu basoje gukora imyitozo ngororamubiri, kuko afasha amaraso gutembera neza mu mubiri ndetse agafasha n'umubiri kubona imbaraga mu buryo bwihuse.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu isaha y'umukoba w'umukara ndetse akaba ayihagaritse kugira ngo abanze anywe amazi kuko amazi nayo yifashishwa mu kugarura imbaraga z'umubiri ndetse agahita afasha n'umubiri gukora ibindi bikorwa neza.

Abana bari kwiga gukina bakoresheje amaboko, ndetse ku ruhande hakaba hari n'abandi bari gukurikira uburyo bari gukinamo.

Umuntu wavunitse ahagana munsi y'ivi, akaba ari kwitabwaho na muganga ndetse akaba yamwambitse utuntu dushobora kumworohereza mu bijyanye n'imvune ye.

Ukuboko gufashe ijage ikoze mu cyuma irimo amazi, iri gusuka mu kirahure giteretse ahagana hasi nkuko tubizi amazi akenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi nko kuyakoresha indi mirimo ndetse nko kuyanywa kuko afasha amaraso gutembera neza mu mubiri.

Ni akantu kaba gakozwe mu byuma kifashishwa nko mu gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane kakaba gakoreshwa n'abantu bafite ikibazo cyo mu maguru cyangwa kutagenda neza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri ubona ko ahagaze ari kunywa amazi ndetse akaba yambaye na tisheti y'amaboko magufi, nk'uko tubizi kandi amazi yifashishwa mu kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri, cyane cyane iyo umaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo wicaye ahantu hamwe, ubona ko ari kwikanda ahagana mu nkokora, kwikanda kandi, akaba ari kimwe nabyo mu bivura imvune mu gihe wavunitse.

Umugabo uhagaze ahantu hamwe uri gukora imyitozo ngororamubiri ubona ko ari kugorora amaboko, nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri ikaba ikorwa mu buryo bwo kwirinda indwara nyinshi zitandukanye.

Ni umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse yibanze mu kugorora amaguru, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba ifatwa nk'umuti kuko ituma amaraso atembera neza mu mubiri wacu ndetse ikanaturinda indwara nyinshi zitandukanye.

Umukobwa uri gukorera imyitozo ngororamubiri iruhande rw'amazi, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba ifasha umubiri gukora neza ndetse igafasha n'amaraso gutembera neza mu mubiri. Ikindi kandi ituma umuntu adahura n'indwara nyinshi zitandukanye.

Amacupa abiri y'amazi, metero, imbuto nyinshi zitandukanye, bikaba byifashishwa mu gihe umuntu asoje gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko bimufasha kumenya aho ageze ndetse amazi akaba afasha umubiri we gukomeza gukora neza.

Imiti myinshi yifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri cyangwa ukaba wagira nk'impanuka, insimburakaguru, ibifasha umuntu kongera kumenya kugenda ndetse n'indi miti myinshi.

Umukobwa wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto. Bigaragara ko ari byo arimo. Imyitozo ngororamubiri ikaba ifasha umubiri wacu mu kurinda indwara zitandukanye ndetse ikagabanya n'umubyibuho ukabije.

Umuntu wafashe umwenda akawuzingazinga akawukoza mu mazi ashyushye, akaba ari kwikanda ku kaboko ke k'iburyo akoresheje ak'ibumoso, akaba ari uburyo bwo kwivura mu gihe hari ahantu wavunitse, uri nko mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye ahantu habugenewe, uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse wambaye n'imyenda yabugenewe. Nkuko tubizi imyitozo ngororamubiri nayo ikaba ari nk'umuti kubera ko ifasha umubiri mu bikorwa byinshi bitandukanye nko kuwurinda indwara.

Ni imiti myinshi itandukanye, iri mu macupa, iri mu dusashi, itagize ikintu irimo, iyo bifashisha bari kuzirika nk'umuntu wavunitse, ikaba irunze ahantu hamwe. Ikaba yifashishwa mu kuvura abantu bakora imyitozo ngororamubiri igihe bahuye n'ikibazo.

Ni imipira itandukanye imitoya n'iminini ikoreshwa mu buryo butandukanye yose ikaba ikoreshwa mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri wayihagaritse kugira ngo abanze afate amazi kubera ko afasha umubiri kugarura imbaraga kandi akaba avura n'izindi ndwara nyinshi.

Ni igipapuro cyiganjeho ibara ry'umuhondo, kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'abantu batandukanye, bari kwerekana imyitozo ngororamubiri ushobora gukora, kugira ngo ube waringanira mu buryo bwemewe.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yawugenewe, akaba yayihagaritse kugira ngo abanze anywe amazi, amazi akaba ari meza mu gihe usoje gukora imyitozo ngororamubiri, kuko afasha umubiri kongera kubona imbaraga.

Ni ikintu kiba gifuramye n'akaguru kiba gikozwe mu buhanga, cyambikwa umuntu wacitse akaguru cyangwa umuntu wavunitse; akacyambikwa kugira ngo agaguru ke gasubire ku murongo.

Ni amagurura ari ahantu hamwe, aba akozwe mu byuma bya rasoro, yifashishwa n'abantu badafite amaguru, cyangwa se abantu bavunitse amaguru mu buryo bukomeye, bakayabaha mu kugira ngo amaguru yabo asubire ku murongo.

Abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, ariko umwe akaba ari gufasha undi mu kugorora amaguru, nk'uko tubizi kandi imyitozo ngororamubiri ikaba idufasha nko kwirinda indwara nyinshi zitandukanye igafasha ndetse n'amaraso gutembera neza mu mubiri.

Ni kwa muganga hari umuntu uri kugendera muri ka kagare abantu bavunitse amaguru cyangwa se bagize ikibazo cyo mu maguru bigiramo kongera kugenda, akaba ari gufashwa kandi n'umuganga.

Umusore wambaye umupira w'umukara, uri imyitozo ngororamubiri, wayihagaritse kugira ngo abanze anywe amazi. Akaba ari mu byifashishwa kugira ngo umubiri wongere ugire imbaraga kandi n'amaraso abashe gutembera neza mu mubiri.

Umukobwa muremure uri mu myitozo ngororamubiri, imbere hateretse ururabyo rw'icyatsi kibisi, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba ikorwa mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye, zishobora guterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho byinshi bifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba hari umugabo kandi uri gukora imyitozo ngororamubiri mu bijyanye no kwiruka.

Ni umukino bawukina bakoresheje amaboko aho baba bakana umupira uwufashe akajya gutsinda, bigaragara ko hari abantu bari kuwurwanira bambaye imyenda yabugenewe n'ingofero z'ubwirinzi ndetse n'indi myambaro yabugenewe ku ntoki.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, ndetse wambaye n'imyenda yabugenewe. Imyitozo ngororamubiri nk'uko tubizi ifatwa nk'umuti, kubera ko iturinda indwara nyinshi zitandukanye, nk'umubyibuho ukabije, ndetse n'izindi nyinshi.

Umukobwa waruri gukora imyitozo ngororamubiri akagira, ikibazo mu kaguru kamwe, hakaba hari umugabo uri kumuzirika aho yagize ikibazo kugira ngo mu ngingo abashe kumera neza.

Ni imiti myinshi irunze ahantu hamwe, yifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo cyangwa bakomeretse mu gihe bari mu myitozo ngororamubiri.

Amazi ari kujya mu kirahurere cy'umweru kigiye kuzura akaba akunda kwifashishwa n'abantu basoje gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko amazi akora nk'umuti.

Umukobwa n'umuhungu bari mu myitozo ngororamubiri bose bakaba bafite amacupa y'amazi mu kuboko, akaba abafasha mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, kuko atuma umuntu ahita yongera kugarura imbaraga mu buryo bwihuse.

Umukobwa w'umwangavu uri mu myitozo ngororamubiri, ubona ko yayihagaritse ngo abanze anywe amazi, kubera ko afasha umubiri kongeraho kugarura imbaraga, ndetse agatuma n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Ni imiti myinshi iva mu byatsi, harimo ndetse n'amagi, amazi, igomba gufatwa n'umuntu nyuma yo kumara gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango abashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa, imyitozo ngororamubiri kandi tukaba tuyikora kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze kubera ko irinda indwara nyinshi zitandukanye.

Umugabo uri mu myitozo ngoramubiri, akaba yayihagaritse ngo abanze anywa amazi, Amazi nayo akaba afatwa nk'umuti ku muntu usoje gukora imyitozo ngororamubirikuko afasha umubiri kongera kugarura imbaraga byihuse ndetse agafasha n'amaraso gutembera neza mumubiri.

Intebe y'urubaho iri ahagana ku muhanda, ikaba yicayeho umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri uri kuruhuka ngo abanze anywe amazi, i ruhande rwe hari undi mukobwa bigaragara ko bari kumwe we ukiri kwigorora, imbere yabo hatetse ibikapu by'umukara.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, uteruye ibintu mu maboko yombi bifasha kongera umubyibuho w'amaboko, ubona ko iruhande rwe hari undi mugabo uri kumwerekera amwereka uko babigenza.

Umusore wambaye isengeri y'umukara uri mu myitozo ngororamubiri akaba ari kugorora igice cyo hejuru, imyitozo ngororamubiri kandi ikaba ikorwa kugira ngo irinde abantu indwara nyinshi zitandukanye.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu, ubona ko imyitozo ngororamubiri yayihagaritse, ari kunywa amazi, amazi akaba ari meza, anavura abantu bari mu myitozo ngororamubiri, kuko abafasha mu bikorwa byinshi bitandukanye by'umubiri.

Muganga ari gusuzuma umwana mu kanwa ngo arebe ko nta ndwara arwaye yifashishije akantu kabugenewe kamurika mu kanwa, uwo mwana akaba akikiwe n'umubyeyi we ndetse iruhande hari abandi bantu babiri bahahagaze.

Ni mu nzu hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo abantu benshi ubona ko aribyo byabazanye, harimo kandi n'ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kwivura akoresheje kwikanda. Kwikanda nabyo bikaba biri mu bishobora kuvura imvune ndetse bikanabyimbura ahantu wabyimbiwe.

Ni imiti myinshi itandukanye iri mu makarito atandukanye, ndetse n'amabara atandukanye, ikaba iri mu gasanduku k'umweru kabugenewe, ndetse hakaba harimo n'umukasi.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho byinshi byifashishwa nk'intebe zo kuryamaho zabugenewe, imipira n'ibindi, imbere harimo abantu ubona ko hari ikintu bakurikiye.

Abantu buri myitozo ngororamubiri ndetse bafite n'udusanduku twagenewe gutwaramo imiti ifasha abantu bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri, hirya ubona ko hicaye abantu batari kugaragara neza.

Imipira myinshi yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ingofero irinda kwangirika k'umutwe nk'uko tubizi imyitozo ngororamubiri idufasha mu kwirinda indwara nyinshi ndetse ikadufasha no kugabanya umubyibuho ukabije.

N'icyapa cy'ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, hejuru handitse imyitozo ngororamubiri icumi ushobora gukora kugira ngo wongere usubire ku murongo nyuma y'ikibazo cyo mu bwonko, ahagana hasi hari imyitozo itanu ushobora gukora wicaye hirya hakaba hari imyitozo itanu ushobora gukora uhagaze.

Umukobwa mu myitozo ngororamubiri, uhagaze kugira ngo abanze anywe amazi amazi, akaba ari nk'umuti ku muntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko afasha umubiri we kongera guhita ugira imbaraga ndetse bigatuma ukora na neza.

Ni akantu kaba gakozwe mu byuma ariko nanone hariho ibintu bya plastike. Kakaba kari mu ibara ry'umuhondo, ndetse ahagana hejuru haba hariho imigozi y'ibara ry'umukara, gatwara abarwayi cyane cyane ugize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri nko gukina umupira ndetse n'ibindi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ubona ko yayihagaritse ngo abanze anywe amazi ndetse anayitere, akaba yifashishwa mu kugira ngo uri myitozo ngororamubiri ahite agarura imbaraga, ndetse akaba yifashishwa no mu kuvura izindi ndwara nyinshi zitandukanye nk'umubyibuho ukabije ndetse n'ibindi.

Ni imyambaro yambikwa ikiganza mu rwego rwo kurinda ibiganza kwangirika mu gihe hari umwitozo ngororamubiri runaka ugiye gukora ushobora kwangiriza intoki cyangwa ukazivuna.

Ni kwa muganga mo imbere mu cyumba, cyahariwe gukurirwamo amenyo cyangwa kuvurirwamo amenyo, hejuru hakaba hari amatara aba yaka cyane afasha muganga kuba yareba mu kanwa k'umuntu.

Imiti myinshi irunze ahantu hamwe iri mu bikarito, mu dusashi twabugenewe ndetse no mu ducupa, imyinshi ikaba yifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri imyitozo ngororamubiri, akaba yicaye ari kugorora akaguru .nk'uko tubizi kandi imyitozo ngororamubiri ikaba iturinda indwara nyinshi zitandukanye, harimo no kuturinda umubyibuho ukabije.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa, bari mu myitozo ngororamubiri, bakaba bayihagaritse kugira ngo babanze banywe amazi, amazi akaba ari kimwe mu bibafasha mu kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri wabo.

Ni imiti myinshi iri mu dushashi twinshi tw'amabara atandukanye, ikaba iri mu gasanduku kabugenewe kari mu ibara ry'umweru, ikaba ikunda kwifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri.

Umuganga wicaye aho akorera ndetse imbere ye hakaba hari ameza ariho n'ibikoresho byinshi yifashishwa akaba ari kumwe n'umubyeyi kandi wambaye agapfukamunwa ukikiye n'umwana bari gusuzuma mu gahanga ngo barebe.

Abaganga benshi, bambaye ingofero zabugenewe mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa, bateraniye ahantu hamwe, bari gufata amabwiriza, kuri ekara, imbere yabo kandi hari mudasobwa ndetse n'amaterefoni

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, utagaragaje igicece cyo mu maso, ubona ko ari kugorora igice cy'kuguru ahagana mu ivi. Imyitozo ngororamubiri ikaba ishobora kuvura amavunane ndetse n'izindi ngingo zitameze neza zikajya ku murongo.

Ni abantu benshi, bari mu myitozo ngororamubiri ndetse bambaye n'imyenda yabugenewe. Bakaba bari mu muhanda w'amabuye ndetse imbere yabo hari ibiti byifashishwa mu kuzana umwuka mwiza. Imyitozo ngororamubiri kandi akaba ari ingirakamaro ku buzima bwa buri muntu wese.

Ni inkweto ndende ebyiri ziri mu ibara ry'umukara, ziteretse ahagana hasi. Zikaba zambarwa n'abantu bari mu gikorwa cy'umutekano. Baba abasirikare, abapolisi n'abandi. Iyi bikaba bigaragara ko ikiri nshyashya.

Icupa rinini ry'ubururu riri gusuka amazi ubona ko hari umuntu urifashe, rikaba riri kuyasuka mu kirahuri, amazi akaba afatwa nk'umuti cyane cyane nk'iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni imiti myinshi itandukanye ndetse n'iyo bambara ku maboko mu rwego rw'ubwirinzi, hakaba umukasi n'agasanduku kayitwaramo, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura umuntu wese ugize ikibazo, ari mu myitozo ngororamubiri.

Imiti myinshi itandukanye, iri mu ducupa no mudusashe ndetse n'iyo bifashisha bari gupima, hakaba hari n'iyo bazirikisha umuntu wavunitse, yose hamwe ikaba yifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, ndetse irimo ibikoresho byinshi byifashishwa. Ikaba ikorwa kandi kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima buzira umuze, kandi bwiza cyane.

Metero, ji y'imbuto ndetse n'izindi mbuto nyinshi kandi zitandukanye, n'ikihure cy'amazi, bikaba bifatwa nk'umuti mwiza umuntu ashobora gufata mu gihe asoje gukora imyitozo ngororamubiri. Kuko biguma gufasha umubiri we gukora neza kurushaho.

Ni igipapuro cyiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, kiba kiri ku mavuta akorwa mu gikakarubamba, akaba ari amavuta ashobora kurinda indwara nyinshi harimo na kanseri.

Hasi hari ibibabi byumye ndetse hateyewe n'igiti gitoya gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, akaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu gihe hatabonetse ubuvuzi bugezweho bw'ako kanya.

Ni igiti kitari kinini gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi ,akaba ari nayo avamo imbuto zikoreshwa mu gukora imiti myinshi itandukanye mu buryo bwa gakondo. Nayo ikaba ivura mu buryo butandukanye mu gihe hatabonetse ubuvuzi bugezweho bw'ako kanya.

Akajerekani gatoya kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, kakaba kazamo amavuta ava mu gihwagari, akaba avura indwara zitandukanye kuko ava mu byatsi

Igipapuro kiri mu ibara ry'umweru mo hagati akaba ari umukara hashushanyijemo icupa ririmwo amavuta, akaba ari amavuta akorwa mu byatsi mu buryo bwa gakondo ndetse akaba avura indwara nyinshi zitandukanye.

Amavuta asukika yo mu icupa ry'ubururu bwijimye ndetse n'aya gikotoro ari mu icupa ry'umweru, akaba ari amavuta basiga uruhu kugira ngo wirinde kandi univure indwara z'uruhu.

Ni umurima urimo ibyatsi byinshi ubona ko harabamo abagore benshi bagiye gusoromamo imiti. Akaba ari imiti yifashishwa na yo mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, mu gihe hatabonetse ubundi buvuzi bugezweho.

Ni agakarito kagenewe gutwara amajyani, ava muri ibi byatsi biri hano hasi hakurikira, akaba ari amajyini yifashishwa mu guteka icyayi, kandi akaba anavura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, akaba ari gusoroma umuti wo kujya kwifashisha yivura indwara runaka, mu by'ukuri imiti y'ibyatsi nayo ikaba igikoreshwa kuko nayo ivura indwara nyinshi.

Amashusho atandukanye, ari mu dupande tune, buri shusho iriho umuti uri kwerekanwa n'umuntu. Akaba ari imiti y'ibyatsi, na yo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni icyatsi kirekire gifite n'uturabyo hejuru kiri mu bindi byatsi hagati kikaba cyifashishwa nacyo mu kuvura indwara zitandukanye nk'ibisebe, kikaba gikoreshwa mu gihe umuntu akomeretse nta bundi bushobozi afite.

Imiti myinshi ikorwa ivuye mu byatsi ikaba ipanze muri etajeri ibaje mu mbaho, ikaba icuruzwa mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi gakondo.

Ni ibiti bavanaho amababi bakabanza kubicisha mu mazi nyuma bakabyotsa bikaba bikorwa mu umuti mu buryo bwa gakondo, nawo uvura indwara zimwe na zimwe mu gihe hatabonetse ubuvuzi bw'ako kanya bugezweho.

Tungurusumu na zo zifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara zo mu mubiri, ikaba ikunda gukoreshwa bayitetse cyangwa mu kuyihekenya ari mbisi.

Ni ameza abaje mu biti, akaba ateretseho imiti myinshi itandukanye, iri mu ducupa tugufiya twa parasitike ndetse n'iri mu macupa maremare y'ibirahuri, yose ikaba yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icyatsi gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, cyifashishwa nacyo mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo, akaba ari imiti nayo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti y'ibyatsi irunze ahantu hamwe harimo na tangawizi, ikaba iri kwerekanwa mu gihe bamaze kuyikura iri mu kirahure. Ikaba ari imiti ivura indwara nyinshi zo mu mubiri, harimo nk'inkorora, indwara zifata umuhogo n'izindi nyinshi zitandukanye.

Ni ahantu hateye ibyatsi bizwi ku izina ry'igikakarubamba, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti myinshi nk'umuti w'amenyo, amavuta y'uruhu ndetse n'ibindi kandi kikaba kivura n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye.

Amafoto menshi ari kwerekana ibyatsi bitandukanye, byose byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, akaba ari uburyo abaturage bakoresha mu rwego rwo kwivura bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga.

Ni imiti iri mu ducupa dutandukanye ikorwa mu buryo bwa gakondo hifashishijwe ibyatsi by'igikakarubamba, ikaba isigwa ku mubiri kugira ngo umubiri utameze neza wangiritse wongere umere neza.

Imiti myinshi irunze hakurikijwe ubwoko bwayo, ikaba iri mu gasanduku kabajwe mu biti, ndetse iruhande yako, hakaba hari indi miti, iri mu macupa y'ibirahure, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura.

Ni ibyatsi byinshi byakuruye ahantu hamwe ibirebire ndetse n'imigufiya, bikaba bizitije utuntu tw'utwuma, hakaba harimo kandi ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ibyatsi byinshi ariko hari icyatsi kiri kugaragaramo cyane gifite amababi y'icyatsi kibisi maremare, akaba ari icyatsi cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo kuko kivamo imiti itandukanye ikaba ivura n'indwara nyinshi.

Akabati karekare gakozwe n'imbaho ndende, gapanzemo imiti myinshi cyane itandukanye, iri mu macupa, mu makarito ndetse no mu bikombe by'ibirahuri, akaba ari imiti ikorwa mu buryo bwa gakondo.

Ni ibyatsi bitandukanye birunze ahantu hamwe ubona ko asukuye hagati harimo agasekuru, akaba ari ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti, ikaba ivura abantu indwara zitandukanye mu gihe hatabotse ubuvuzi bw'ako kanya bugezweho.

Ni icyatsi kirandaranda gifite amababi y'icyatsi cyerurutse, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi gakondo.

Ni igiti gifite ibindi biti byinshi bigishamikiyeho, kikaba kigira amababi ariyo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, harimo nk'ibicurane. Kikaba kizwi kandi ku izina ry'umuravumba.

Ni amavuta ari mu icupa ry'ibara ry'umuhondo, rifite n'ikigina ahagana hejuru, hakaba hari n'ari mu bikaruto bitandukanye. Akaba ari amavuta akorwa mu byatsi, nyuma agacishwa mu nganda. Akaba avura kandi, indwara nyinshi.

Ni mu murima hateyemo ibyatsi bigufiya ndetse biteye ku murongo, hakaba harimo abantu benshi n'imodoka zifashishwa mu buhinzi. Akaba ari uburyo bushyirwaho bwo kwiterera ibyatsi bishobora kuvamo imiti, hatarinzwe gukoresha imiti iva mu mahanga gusa.

Ni imiti irunze ahantu hamwe iri mu macupa ,mu dukarito ndetse no mu bikarito binini .Hakaba harimo iy'amenyo ,iyo ku mubiri ndetse n'indi itandukanye ku mpande hakaba hari ibyatsi iyo miti ikorwamo.

Igiti gitoya gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, cyifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo. Bishobora kubanza gucishwa mu nganda cyanga ukagikoreshereza aho, kikaba kivura indwara nyinshi.

Ni mu gihuru kirimo ibyatsi birebire, ndetse n'ibiti birebire n'ibigufiya, hakaba harimo kandi ibyatsi bivamo imiti ikoreshwa mu buryo bwa gakondo, bavanamo imiti myinshi itandukanye.

Ni imiti irunze ahantu hamwe ku kabaho akaba ari imiti y'ibyatsi yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ikaba ivura indwara nyinshi, igakoreshwa kandi mu gihe nta bundi buvuzi buri hafi aho, cyangwa ikabanza no kunyuzwa mu nganda rimwe na rimwe.

Ni imibavu yo gutera mu myenda ndetse ni umuti wo kwisiga ku ruhu, akaba ari imiti ikorwa mu byatsi mu rwego rwo gufasha abantu kugenda bahumura no kubavura indwara z'uruhu.

Ni ibikakarubamba byinshi, biteye ku murongo, ubona ko ari umuntu wakoze umurimo wo kubitera, kubera ko bivamo imiti myinshi, yaba iy'uruhu, iy'ibinini ndetse n'iyo guteka, hahagazemo kandi abantu bayisuye, ubona ko baturutse mu nzego zitandukanye.

Ni imiti myinshi itandukanye itaratunganywa ndetse n'iyatunganyijwe, iri mu macupa yabugenewe, akaba ari imiti iva mu byatsi na yo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni ahantu mu gihuru kirekire kirimo ibyatsi birebire ndetse n'ibigufi, hakaba harimo ibyatsi bimwe na bimwe byifashishwa mu gukora imiti mu buryo bwa gakondo, ikaba kandi ivura indwara nyinshi.

Ni icyumba kirimo akajagari, imiti myinshi ya gakondo iva mu byatsi, hakaba hashashe ibintu byinshi, hakaba kandi hari inkono za gakondo ndetse n'ibindi bintu bikoze mu birere, hakaba hifashishwa abavuzi ba gakondo.

Ni amavuta azwi ku izina rya Aloe asukika akoreshwa mu kuyasiga uruhu, akaba ari amavuta ashobora kurinda uruhu indwara nyinshi zitandukanye zifatwa n'uruhu.

Ni icyatsi gikunze kugira amababi manini cyane ari mu buryo bwihariye, akaba ari icyatsi cyifashishwa na cyo mu gukora imiti mu buryo bwa gakondo. Akaba ari imiti ishobora kwifashishwa mu gihe hatabonetse ubuvuzi bw'ako kanya bugezweho.

Ni mu murima higanje ibyatsi bita umuravumba, akaba ari umuti w'ibyatsi ukoresha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane iz'ibicurane, ukaba wifashishwa mu gihe umuntu nta bundi buvuzi yabonye.

Ni mu gihuru cy'ibyatsi byinshi ariko hakaba harakuzemo n'ibindi biti bizwi nk'umuravumba, amababi yabyo akaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse n'ibindi.

Ni imiti myinshi itandukanye, irimo ubucupa butandukanye, iri mu gasanduku kabugenewe iteretse mu busitani. Akaba ari imiti ikorwa mu byatsi, nyuma igacishwa mu nganda. Ikaba yifashishwa na yo mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti gifite amababi menshi ndetse n'amashami menshi, gikoreshwa nk'umuti mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Abaturage bakaba bashobora kugikoreshereza aho ngaho kitabanje guca mu ruganda hakaba n'igihe gitunganyijwe, kigacishwa mu ruganda.

N'ibyatsi bitandukanye byose bikorwamo imiti kandi bikavura mu buryo butandukanye. Bakaba bari kwerekana ko mbere yo kuyikoresha ugomba kubanza kuyironga, kubera ko iba ifite umwanda mwinshi.

Ni igipapuro kiriho umuti uri mu icupa rigufiya wiganjemo ibara ry'umweru, iruhande rwawo hari andi magambo yerekana uko uwo muti uvura, harimo nko kurangiza vuba ndetse no gucika intege.

Ni imiti y'inzoka zo mu nda, zimwe ziba zikomeye zidapfa gukira, ikaba ikorwa cyane cyane mu byatsi hanyuma bikanyuzwa mu nganda, akaba ari umuti ukomeye ubasha kwica inzoka zikomeye ziri mu nda.

Ni ibiti byinshi birebire by'icyatsi kibisi ndetse n'ibindi bigufiya, ubona ko byakuriye ahantu hamwe, ndetse muri ibyo biti hakaba haririmo imiti imwe n'imwe ishobora kwifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye.

Amafoto ari mu buryo bwinshi butandukanye, buri foto iriho ibyatsi hakurikijwe ubwoko bwabyo n’uko gikora, ikaba yifashishwa mu gukora imiti vuba vuba mu gihe umuntu atabonye uko ajya kwa muganga.

N ibyatsi byanikwa bikuma, nyuma bigasekurwa kugira ngo bivemo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo no mu kuvura abanyarwanda muri rusange mu gihe hatabonetse ubundi buvuzi bugezweho.

Ni icyatsi gifite amababi maremare cyakuriye ahantu mu rugo kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo kubera ko kivamo imiti myinshi kandi ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni akabati gakozwe mu mbaho, kagenewe guterekwaho imiti myinshi y'ubuvuzi gakondo. Hakaba hari amacupa maremare y'icyatsi kibisi ndetse n'amagufiya, byose bikaba birimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Ni mu murima harahinze ariko harimo ibyatsi bitari byinshi, bimwe muri ibyo byatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, akaba ari imiti icishwa mu nganda cyangwa se ikanakoreshwa mbere y'uko igera mu nganda kuko na yo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Hari amashusho ane ari kutwereka ibyatsi bitandukanye ndetse n'abantu bagiye kubisoroma, akaba ari ibyatsi byiganjemo ibivamo imiti ya gakondo ndetse nayo ivura indwara zitandukanye.

Amavuta akozwe mu byatsi asigwa ku ruhu rwahuye n'indwara cyangwa se rwangiritse, akaba ari amavuta akorwa mu buryo bwa gakondo binyuze mu byatsi, nyuma agacishwa mu nganda.

Ni amashusho menshi atandukanye ari kwerekana imiti ya gakondo, iva mu byatsi kandi yose ikaba itandukanye, ndetse yifashishwa na yo mu kuvura indwara nyinshi.

Ibyatsi byinshi bitandukanye hakurikijwe uko bikora ndetse n'ubwoko bw'abyo, bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe umuntu atabonye ubushobozi bw'ako kanya cyangwa se bikabanza no gucishwa mu nganda.

umubyeyi w'umugore uri gusoroma imiti y'icyatsi kibisi. Ikaba yifashishwa nayo, mu kuvura indwara nyinshi mu gihe hatabobonetse ubuvuzi bugezweho, cyangwa ngo haboneke n'ibindi binini.

Ni umuganga ukoresha imiti ariko yose ikorwa mu byatsi, akaba yemererwa gukora mu buryo bwo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo mu gihugu.

Ni ahantu hakuriye ibyatsi byinshi kandi bitandukanye, muri ibyo byatsi hakaba hari birimo bikoreshwa nk'umuti uvura indwara nyinshi kandi zitandukanye, ukaba ushobora kubanza gucishwa mu nganda ukaba wavamo ibinini cyangwa ugakoreshwa udaciye mu nganda.

Ni ibyatsi byera hanyuma hagaturikaho indabo z'umuhondo, bikaba byifashishwa mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo ndetse bikanavura indwara zitandukanye nk'inkorora, ibicurane, inzoka n'izindi.

Ni imiti myinshi yose iva mu byatsi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ikaba iri mu dusorori turunze ahantu hamwe ndetse iruhande hari ibiganza bibiri biri kwerekana imiti imwe muri iyo.

Amavuta, isabune ndetse n'umuti w'amenyo byose bikorwa mu gikakarubamba, isabune ikaba ifasha uruhu kumera neza ndetse n'amavuta, umuti w'amenyo na wo ukaba uvura indwara zitandukanye zishobora gufata amenyo.

Imiti myinshi irambuye ahagana k'umukeka ndetse hari n'agasekuru ubona ko hari ibiganza biri gusekura umuti umwe muri yo, ikaba ari imiti yifashishwa na yo rimwe na rimwe mu gihe ubuvuzi bugezweho byanze cyangwa se butabashije kuboneka.

Indabyo nyinshi zivanzemo n'umuravumba ubona ko biteye ahantu hamwe, umuravumba akaba ari umuti abanyarwanda bakunda kwifashisha mu kwivura indwara nyinshi zitandukanye harimo n'ibicurane.

Ni ifoto iriho imiti myinshi itandukanye, yifashishwa mu kuvura ariko iva mu byatsi. Ahagana hirya, hakaba hari n'amagambo yanditseho uburyo iyo miti ikoramo n'uburyo ivuramo.

Ni imiti myinshi y'ibyatsi, iteye mu ndobo zitandukanye, akaba ari imiti kandi yifashishwa mu gukora imiti myinshi itandukanye.

Ni imboga z'icyatsi kibisi zirunze ahantu hamwe zitandukanye, zikaba zifashishwa mu kuziteka abantu bakazirya kubera ko zirinda indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri.

Isahani ikoze mu ibumba ifite ibara ry'umweru iteretseho ibyatsi bikeya by'umuhondo, agacupa k'umweru karimo amavuta ndetse n'amaronji ibi byose bikaba byifashishwa nk'imiti ya gakondo.

Ni umusore utari kugaragara mu maso, wambaye ikarita akaba afashe imiti myinshi y'ibyatsi mu ntoki ye, ari kwerekana anavuga uburyo ikora, n'uburyo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ahantu harambaraye hari ibyatsi byinshi ndetse hakaba hateyemo icyatsi kimwe ahagana hagati, kifashishwa nko mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane harimo inkorora.

Ni icyatsi gikura kirandaranda hasi cyera indabyo z'umutuku, kikaba cyifashishwa na cyo mu gukora imiti y'ubuvuzi gakondo na yo ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni umuti w'amenyo ukorwa mu byatsi bya gakondo, nyuma ugacishwa mu nganda, akaba ari umuti ufasha amenyo kugira ubuzima bwiza ndetse ukanayarinda indwara nyinshi zitandukanye zishobora gufata amenyo.

Ni igipapuro hejuru cyiganjemo ibara ry'ubururu bwijimye ndetse kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ahagana hasi, hakaba hari kugaragara imiti myinshi ikorwa biciye mu byatsi kandi na yo ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Amashusho ane, ariho imiti myinshi itandukanye. Hariho umuti w'amenyo, n'indi miti myinshi, yose ikaba iva mu cyatsi cy'igikakarubamba; ikaba yifashishwa kandi mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni igihuru cyiganjemo ibiti by'icyatsi kibisi, hakaba harimo kandi n'imiti mikeya yifashishwa mu gukora ubuvuzi bwa gakondo, akaba ari bwa buvuzi butangwa igihe hatabonetse ubuvuzi bugezweho bw'ako kanya.

Ukuboko kuri kwerekana igiti gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, akaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi mu gihe hatabonetse ubuvuzi bugezweho bw'ako kanya.

Ni imiti y'amenyo iri mu macupa abiri icuritse akaba ari imiti ikorwa mu byatsi byitwa igikakarubamba, ikaba yifashishwa mu kuvura abantu barwaye indwara z'amenyo.

Ni amavuta ari macupa abiri y'umuhondo ndetse no mukarito akaba akorwa mu byatsi akaba ari amavuta kandi atekwa mu biryo kubera ko arinda indwara zimwe na zimwe.

Amavuta yo kwisiga ari mu macupa maremare atandukanye ndetse no mu ducupa dutoya. Yose akaba akorwa mu cyatsi cy'igikakarubamba, kandi akaba avura indwara zose zishobora gufata uruhu, kandi akaba anatuma uruhu rusa neza.

Amashusho menshi atandukanye, ariho imiti myinshi yo mu byatsi itandukanye. Akaba ari imiti ya gakondo, ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, mu gihe umuntu atabashije kujya kwa muganga.

Ni agati gatoya gafite amababi maremare y'icyatsi kibisi kakaba kifashishwa mu gukora imiti ya gakondo itandukanye, akaba ari imiti ushobora kunywa by'ako kanya mu gihe udafite ubundi bushobozi.

Imiti myinshi iva mu byatsi igasoromwa ikanikwa, nyuma igasekurwa, ikaba ari imiti yifashishwa mu buryo bwa gakondo, ikaba ivura by'ako kanya mu gihe hatabonetse ubuvuzi bugezweho.